Abantu bahagaze imbere y'inyubako hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye imyenda ya kinyarwanda ariyo umukenyero ndetse harimo n'abandi bambaye imyenda igiye itandukanye.

Abantu bari mu nama abagabo n'abagore harimo abafite ibyuma by'ikoranabuhanga bicaye ku meza bose bateganye bicaye ku ntebe z'umukara bafite amazi imbere yabo yo kunywa ndetse n'aho kwandika.

Abantu bicaye bakaba barimo abambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda, hakaba hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bafite amazi imbere yabo ndetse n'ibikoresho by'irangururamajwi.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba hari abafite ibikoresho by'irangururamajwi imbere y'abo ndetse hakaba harimo aba mama ndetse n'abagabo, bakaba bafite mudasobwa imbere y'abo ndetse n'amazi yo kunywa.

Umudamu uhagaze uri gutanga ikiganiro, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibyo bari kuvugaho, ku ruhande rwe hari icupa ryamazi, akaba yambaye isaha.

Abantu bicaye hakaba harimo abagabo ndetse n'abamama, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki ndetse bakaba bafite amakayi bari kwandika ndetse hari n'abafite amakaramu mu ntoki.

Abantu bahagaze bakaba bambaye imipira ifite amabara y'ubururu ndetse bakaba bari gukoma amashyi, hakaba imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bicaye no ku ntebe z'umweru.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba hari umumama uri kuvuga, bakaba bafite ibikoresho by'indangururamajwi imbere yabo ndetse na za mudasobwa, hakaba hari amazi yo kunywa imbere yabo.

abantu bicaye kumeza agiye atandukanye, hakaba hariho ibyo kurisha, ndetse n'kirahure kirimo ibyo kunywa, bakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ku meza.

Umuntu ufite igikoresho cy'irangururamajwi mu ntojyi akaba ahagaze imbere y'abantu akaba ari kuvuga ndetse akaba ari umu mama hakaba hari n'abandi bicaye bari kumukurikira harimo aba mama ndetse n'abagabo.

Abantu bicaye mu nyubako , bari imbere mucyapa kigaragaza ibyo barimo gisa umweru, hakaba hari amazi ateretse ku meza yegeranye, hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe.

Abantu bari mu nama bicaye ku meza maremare hari igitambaro cy'umuhondo n'icy'ubururu, akaba ari umugabo n'umugore, imbere yabo bakaba hari icupa ry'amazi bakaba bafite amakaye yo kwandikamo.

Abantu bahagaze bose bambaye udupfukamunwa hakaba hari ibikombe imbere y'abo, hakaba hari n'abicaye, hakaba inyuma y'abo hari ibyapa byerekana ibyo bavugaho ndetse n'insanganyamatsiko.

Umugabo wicaye acecetse akaba afite icupa ry'amazi imbere ye, akaba yicaye ku ntebe ifite umwenda w'umukara akaba yambaye amarinete, akaba nta musatsi afite.

Abantu bafite impapuro mu ntoki, bakaba bari guseka, bakaba hari abicaye ndetse bakaba bambaye imipira isa usibye abantu babiri.

Abantu bicanyi bakaba bafite amazi yo kunywa, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari ibipapuro, hakaba hariho ni idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari babiri bari kureba hirya.

Abantu bicaye mu nzu bari mu nama imbere yabo bari kureba kuri ekara iri imbere yabo bafite ibyuma by'ikoranabuhanga bakaba bafite n'amazi yo kunywa .

Abantu bicaye mu nzu bakaba bakoze uruziga, hakaba hari abambaye imipira y'umuhondo ndetse abandi bakaba bambaye imyenda y'ubururu hakaba hari ibyapa bigaragaza ibyo bari gukora.

Abantu bicaye bari mu nama bakaba bafite ibikoresho bya mudasobwa ,hakaba hari abagabo batatu ndetse n'abagore babiri bakaba bafite amazi yo kunywa imbere y'abo.

Abantu bicaye bari mu nama bazengurutse ameza, hakaba hari uwambaye imyenda ya polisi y'u Rwanda, bakaba bafite amazi yo kunywa imbere yabo ndetse hari abafite mudasobwa ndetse hari n'abafite amakayi bari kwandika.

Abantu bicaye ndetse hakaba hari n'abana bicaye hasi, hakaba hateye ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi biteye hasi, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari n'abana.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba hari n'abandi bahagaze bafite ibikoresho byifashishwa mu gufata amashusho n'amajwi ndetse hakaba ari ibikoresho by'irangururamajwi imbere y'abantutu bicaye bari mu nama, hakaba hari amazi yo kunywa imbere yabo.

Umugabo n'umugore bari mu nama, bicaye ku meza maremare yambaye igitambaro cy'ubururu n'icy'umuhondo, imbere yabo hari amazi yo kunywa y'inyange, bakaba bicaye no ku ntebe z'umukara, hakaba hari n'amarido

Umuntu uhagaze imbere y'abantu ari gutanga ikiganiro, akaba afite igikoresho cy'irangururamajwi mu ntoki, hakaba hari abandi bicaye bakurikiye, bakaba bafite amazi yo kunywa imbere yabo, ndetse n'impapuro n'amakaramu bari kwandika.

Umukobwa wicaye hakaba hari n'abandi bantu benshi bicaye, bakaba bambaye imyenda iriho idarapo y' Rwanda bakaba bafite amacupa y'amazi yo kunywa.

Abantu bicaye bari kuganira bakaba bafite amakaye ndetse n'amakaramu bari kwandika hakaba hari ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga, mudasobwa ndetse hakaba hari na ekara bakaba bafite n'amazi yo kunywa imbere yabo.

Abantu bari mu nama hakaba hari abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa ndetse n'ibikoresho bifata amajwi n'amafoto, hakaba hari abahagaze bari kubikoresha ndetse bakaba bafite ibikoresho by'irangururamajwi imbere yabo.

Abantu babiri bahagaze imbere y'abantu bari kuvuga, hakaba ari umugore ndetse n'umugabo, hakaba hari abicaye ndetse n'uryamye ku meza, bakaba bafite amazi yo kunywa imbere yabo.

Abantu bicaye imbere y'abantu akaba ari batanu ndetse hakaba hari n'abandi bicaye bari kubakurikira, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abantu bakoze uruziga hakaba harin uhagaze ari kubabwira bakaba ari abagore ndetse n'abagabo, bakaba bahagaze mu kibuga kitarimo ibyatsi, hakaba hari ibiti ndetse n'imodoka ziparitse hirya.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, bakaba bari mu nama, hakaba hari abambaye imipira y'umweru ndetse hakaba hari abagabo ndetse n'abakobwa, bakaba bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Umugore uri gutanga ikiganiro akaba afite indangururamajwi, mu ntoki akaba ahagaze imbere y'abantu inyuma ye hakaba hari icyapa kigaragaza ibyo bari kuvugaho.

Umuntu uri gusuhuza abantu bicaye akaba ari umumama ndetse hakaba hari abambaye imyenda y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari ibitambaro bifite ibara ry'idarapo ry'u Rwanda, hakaba ndetse hari n'abahagaze.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, hakaba harimo abamama ndetse n'abagabo bose bakaba batari guseka kandi batanababaye, hakaba hari undi uri kwinjira mu muryango w'iyo nyubako.

Abantu bari mu nama bakaba bafite ibikoresho by'irangururamajwi imbere yabo hakaba hari abashinzwe gufata amajwi ndetse n'amashusho n'ibikoresho bifashisha bakaba bafite amakayi ndetse n'impapuro bakaba bafite n'amakaramu mu ntoki ndetse n'amazi yo kunywa imbere yabo..

Abagabo bicaye bazengurutse ameza, bakaba bari mu nama, ndetse bakaba bafite amacupa y'amazi yo kunywa, hakaba hari abafite udupapuro imbere yabo.

Abantu bicaye ndetse hakaba n'abandi bahagaze, inyuma yabo hakaba hari uwambaye agapfukamunwa, ndetse hakaba harimo abambaye imipira y'ubururu; bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo ikifashishwa mu itumanaho.

Abantu bicaye bari mu nama, bakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba hari abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bababa bafite n'amakayi n'amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa imbere yabo.

Abantu bari mu nama imbere yabo hakaba hari indangururamajwi bakaba bafite n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, bakaba bari kwandika ndetse bakaba bafite n'ibyo kunywa bitandukanye harimo n'amazi.

Abantu bicaye, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hariho ibitambaro bikaba bigize, ari byo umuhondo ndetse n'icyatsi ndetse n'ubururu, bikaba bishushanya idarapo ry'u Rwanda, bakaba bafite impapuro mu ntoki ndetse n'amakaramu.

Abantu bicaye bamwe bakaba bicaye imbere y'abandi ndetse bakaba bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho, hakaba hari umuntu uhagaze ndetse bakaba ari abagabo ndetse n'abagore.

Abagabo bahagaze imbere y'inzu, bakaba bahagaze ku mirongo ibiri, hakaba harimo abambaye imyenda y'abisilamu ndetse hakaba hari n'abambaye indorerwamo z'amaso.

Abantu bicyaye imbere yabo hakaba hari ameza, ndetse hakaba hari indabyo, hakaba hari uwambaye imyenda y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, bose bakaba batuje bari gukurikira.

Umumama ndetse n'umugabo bahagaze bakaba barikumuhereza indangururamajwi, hakaba hari abandi bicaye bakaba bambaye imyenda isa ndetse hakaba hari amacupa y'amazi imbere yabo.

Abantu bicaye ndetse hakaba hari n'abahagaze inyuma, bakaba bicaye ku ntebe zitandukanye ndetse bakaba bicaye ahantu hasize amarangi atatu, agaragaza idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari abafite amazi yo kunywa imbere yabo.

Ahantu hubatse hagekereranyije hakaba hari aho kuzamukira hakaba hari ibiti biteye aho hafi ndetse hakaba hari n'igipangu hakaba hari ibyatsi biteye hasi.

Ni igitsina gore gihagaze arimo arareba yambaye ikote n'ishaneti mu ntoki n'imisatsi ye ifungiye inyuma.

Iduka ritangirwamo ibicuruzwa ndetse hakaba n'ibyapa by'ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda ndetse hakaba hari n'ikigo kibitswamo amafaranga kikaba kiriho umuntu ufite igikoresho cy'itumanaho uri kwamamaza.

Abantu barimo kugenda hakaba hari ibiti bitandukanye, hakaba hari amazu y'amagorofa maremare, ndetse hakaba hariho n'insinga zirimo amatara

Abantu bicaye bari mu nama ndetse hakaba hari uhagaze imbere yabo ari kubababwira, hakaba hari umusozi ndetse n'imirima iteyemo insina, hakaba hari n'ibiti ndetse n'umugezi.

Umugabo uhagaze mu muryango w'inzu, iyo nzu ikaba ifite umuryango w'ibibaho, ku ruhande hakaba hariho umuryango w'icyuma, ukaba ufiteho ibipapuro byamamaza, ku ruhande hakaba haparitse imodoka.

Umugabo yunamye uri kureba muri mudasobwa, akaba ari kureba ibintu bijyanye n'Irembo. Akaba yambaye n'umupira wanditseho Irembo.

Umuntu wicaye akaba ari umu mama, akaba afite ibikoresho by'irangururamajwi imbere ye, hakaba hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse inyuma ye hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wicaye hakaba hari n'undi uhagaze akaba afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, hakaba hari uwambaye ingofero ndetse n'umupira w'umweru hakaba hari mudasobwa ndetse n'igikoresho gisohora impapuro.

Itangazo ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro rigaragaza umunsi ntarengwa wo kwishyuriraho imisoro rikaba rifite imbuga nkoranyambaga cyangwa nimeronko waba wabasangaho bakagufasha.

Ahantu hari amazu y'ubucuruzi akaba ariho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye ndetse imiryango ikaba ifunguye hakaba hari umuntu uhagaze imbera yayo ndetse hakaba hari n'ibicuruzwa hanze ku muryango umwe.

Umunara wifashishwa mu bintu by'ikoranabuhanga, imodoka ziparitse, abantu bahagaze impande y'umunara, ndetse n'ibyapa bya tigo.

Abantu bahagaze ndetse abandi bicaye bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo by'itumanaho ndetse hakaba hari amagambo yanditse ku gikuta bahagazeho.

Umumotari utwara moto uparitse ku ruhande hakaba hari umuntu uhagaze uri kuri telefone hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwa aho ngaho hakaba hari inzu y'igorofa ndetse n'ibiti bikikije ahongaho.

Igikoresho cy'itumanaho; hakaba hariho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro; hakaba hariho nimero ndetse hakaba hariho n'amagambo yanditse, yandikishije ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze imbere y'igipangu gikoze mu byuma akaba harimo lipato ndetse rikaba rifite amabara n'umutuku akaba ari umukobwa ndetse n'umuhungu.

Urubuga bashakiramo akazi, akazi ukerekana ibihugu wakoreramo, hakaba hari n'aho ushakishiriza akazi.

Abantu bahagaze ndetse hakaba hari n'iminara miremire, n'insinga ndetse n'ibisahane, hakaba hari ibiti ndetse n'amazu.

Inzu irimo amabara y'umuhondo, ubururu, umukara ndetse n'umweru iruhande rwayo hakaba hari igiti, hakaba hari amagambo yanditswe kuri iyo nzu.

Abantu bari kugenda abandi bakaba bari kuza hakaba hari n'abicaye, ndetse n'ibiti biteye hafi aho ngaho, hakaba hari n'amazu y'amagorofa maremare ndetse n'amagufi.

Mudasobwa zitetse ku meza ari nyinshi, hakaba hari abantu bari kuzikoresha ndetse n'umwe uhagaze ari kubereka uko bazikoresha bakaba ari abagabo ndetse n'abagore.

Icyapa cyamamaza kiriho amafaranga ndetse n'impano umuntu agomba kuzirikana hakaba hariho igihe ntarengwa cyo kuba umuntu yasoje kwerekana impano ye ndetse n'amategeko n'amabwiriza.

Abantu bicaye hakaba arimo umwirabura ndetse akaba harimo n'umuzungu, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga ari icya mudasobwa imbere ye, undi akaba afite igikoresho cy'itumanaho mu ntoki, ndetse bakaba bafite ibyo kunywa ku ruhande rwabo.

Ibiti ndetse n'ifoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi, hirya hakaba hari inzu ndetse hakaba hari n'uruzitiro rukoze mu byuma.

Inzu z'amagorofa ebyiri hakaba hari insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro zikaba zifashe ku mapoto, hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu kureba amashusho kikaba gifashe nacyo ku ipoto.

Ipoto rirerire rikaba rifasheho insinga z'amashanyarazi nyinshi, hakaba hari inzu hepfo, hakaba hari igiti ndetse hakaba hari ibyatsi biteye hasi.

Ahantu hari ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hakaba hari insinga nyinshi, ndetse hakaba hari urugo rukozwe mu byuma ndetse hakaba hari n'ibyatsi kuruhande.

Ipoto rikaba ririko n'insinga z'amashanyarazi hakurya hakaba hari umusozi ndetse hakaba hari n'ibiti bitari hafi y'inzira banyuramo hakaba hari n'amazu.

Ibinyabiziga biri mu muhanda hakaba hari ibiri kuzamuka ndetse n'ibimanuka, hakaba hari abantu bari kwambuka, ndetse hakaba hari amatara yo mu muhanda y'umutaka, hirya hakaba hari umusozi urimo ibiti ndetse n'amazu.

Ipoto rirerire ry'intsinga z'amashanyarazi, hakaba hariho intsinga z'umuriro w'amashanyarazi nyinshi, zigiye zijya ahantu hatandukanye, ndetse hakaba hari ibiti biteye aho hafi, hakaba hari n'inzu y'igorofa iri ku ruhande.

Itara ndetse hakaba hariho n'insinga z'amashanyarazi, hakaba ari inzu y'igorofa ndetse hakaba hari imodoka iparitse, hakaba hateye n'ibiti bitandukanye.

Abantu barimo kugenda hakaba urugo rukozwe mu biti, ndetse hakaba n'ibiti byameze ku ruhande rutandukanye, hakaba hari ifoto irimo insinga z'amashanyarazi irujyana mu ngo zitandukanye.

ipoto ry'umuriro rikaba rikozwe n'ibyuma byinshi rikaba ririmo insinga z'amashanyarazi ndetse n'udufoto dutoya turimo insinga z'amashanyarazi, hakaba hari urugo aho hafi ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Ahantu harunze amabuye menshi, hakaba hari ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zijya ahantu hatandukanye ndetse hakaba hari inzu zubatse, hepfo y'ipoto hakaba hateye n'ibiti ndetse n'indabyo ku gipangu.

Inzu ifunguye idirishya ikaba ifiteho n'itara ndetse ikaba isize amabara atandukanye ari ku nzu akaba atandukanye n'ari ku idirishya.

Inzu hakaba hari n'ibiti bitandukanye by'ubwoko bwose, hakaba hari ipoto ry'amashanyarazi, hakaba hari icyapa kiranga amerekezo.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Icyumbakaba ariho igipapuro cyanditseho ko itaribwaho abantu barembye cyane ,akaba arimo amarido asa ubururu, ndetse hakaba hari ibitanda abarwayira baryamaho, ndetse hakaba hari imashini zifasha kureba uko umurwayi ameze.

Inyubako ebyiri zitandukanye, hakaba hari idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari imodoka ziparitse imbere y'izo nyubako ndetse n'abantu bari kugenda, hakaba hari n'ubusitani.

Amazu asa yubatse kimwe, hakaba hari ibyatsi hasi ndetse hakaba hari aho bashyira imyanda, hari amashashi asa umuhondo ndetse n'indobo zisa umutuku, hakaba hari uduti dushinze dusa umweru.

Nkuko mubibona amakaro y'aho aracyeye, inzugi nziza ziriho ibirango ndetse zisa amabara y'ubururu, hariya mu imbere hari ikintu gikonjesha harimo ibikombe, ijage y'icyatsi, amajerekani meza azanwamo amazi yo kunywa acyeye Kandi anogeye buri muntu wese iyo aya nyoye aba yumva ameze neza ,akira umutwe cyane iyo awurwaye cyangwa akoze impyiko.

Imbangukiragutabara ziparitse ari nyinshi, aho ziparitse hakaba hari utubuye dutoya ndetse zikaba ziri mu gipangu hakaba hari ibiti biteye hafi ku rugo.

Inyubako iriho umusaraba imbere ndetse hakaba hari imodoka ziparitse imbere y'inyubako, hakaba hari umuntu uhagaze iruhande rw'iyo nyubako, hakaba hari n'ibiti ndetse n'indabo ziteye imbere y'iyo nyubako.

Umuntu akaba ari mama akaba afite ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, akaba afite mudasobwa ndetse akaba yambaye isaha ku kuboko, akaba afite n'urupapuro imbere ye.

Abantu bicaye imbere y'inyubako, hakaba hari ndetse n'abahagaze imbere yayo hakaba haribe ziteretse hanze y'inyubako, ndetse akaba ari umumama ufite isakoshi, ndetse akaba afite n'impapuro mu ntoki.

Abantu bicaye mu nzu bakaba bicaye bose barebana bakaba bicaye ku ntebe zikoze mu bibaho, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari n'undi uhagaze ndetse hakaba hari n'amatara ari kwaka.

Abantu bari kumanuka ndetse hakaba hari n'abandi bicaye ruguru hari n'abahagaze, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba ahantu bari kugendera nta ma esikariye ahari ndetse imbere yabo hakaba hateye ubusitani.

Abantu bicaye hakaba hari abandi bahagaze bari kurahira ndetse imbere yabo hakaba hari idarapo ry'u Rwanda, bakaba bambaye imyenda isa ndetse bahagaze ku murongo umwe.

Abantu bicaye imbere bakaba bambaye imyenda isa ndetse bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore bose bari kwireba imbere hakaba harimo n'abari kuganira.

Imfungwa ihagararanye n'umucamanza akaba harimo uwicaye ari kwandika, undi akaba ahagaze afite impapuro mu ntoki akaba ari abagabo n'abagore kandi bakaba bari mu nzu.

Inkiko gacaca, hakaba hari abunzi bane bicaye bakaba hari kuburana ndetse akaba abaturage bazengurutse abunzi ndetse akaba bicaye munsi y'igiti.

Umumama wicaye, akaba afite ikaramu ndetse n'amakaye imbere ye, akaba afite icyo kunywa, harimo amazi ndetse n'ikirahure giteretse ku meza.

Abantu bicaye bambaye idarapo ry'u Rwanda hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bafashe ku meza ndetse bafite n'amakayi imbere yabo yo kwandikamo.

Abantu bicaye ndetse hakaba hari n'uhagaze ari kuvuga, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse bafite n'amakaye n'impapuro ndetse n'amakaramu byo kwandikaho, bakaba bafite n'amazi yo kunywa.

Icyapa gihagaze hagati mu muhanda gisa umutuku hakaba hari n'ikindi kinini kirekire cyanditseho igororero rya Gicumbi hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse hakaba hari n'ibindi bikikije umuhanda.

Abantu bicaye hari abamama babiri ndetse n'abagabo babiri, bakaba bambaye imyenda isa ndetse n'ingofero zisa, bakaba bafite indangururanmajwi imbere yabo.

Imfungwa ziri kugenda ku rukiko hakaba hari abazirinze ndetse imbere yabo hakaba hari urukiko hakaba hari n'ibiti bizengurutse aho hantu.

Umuntu ufite icupa ry'amazi mu ntoki akaba yambaye amapingu akaba ari kumwe n'umuntu wambaye imyenda ya polisi y'igihugu akaba afite imbunda ndetse hakaba hariho itarapo ry'u Rwanda ku myenda ye.

Umumama wambaye imyenda irimo amabara atandukanye arimo umutuku ndetse n'umukara, akaba yambaye amaherena ndetse akaba yambaye indorerwamo z'amaso, akaba anogoshe afite umusatsi mucyeya.

Inkiko gacaca hakaba hariho abantu ndetse hakaba handitseho amagambo, Ukuri kurakiza tuvuge ibyo twabonye ndetse twemere ibyo twakoze, hakaba hari n'ibinyabiziga biri hanze y'igipangu.

Abantu bicaye mu nzu habakaba hari n'abahagaze, bakaba bicaye bazengurutse ameza bose, bakaba bacecetse nta n'umwe uri kuvuga, akaba ari abagabo n'abagore.

Umugabo uhagaze utari guseka akaba atanarakaye, akaba yogoshe akaba afite ubwanwa akaba yambaye imyenda irimo umukara n'umweru.

Abantu babiri bambaye imyenda y'urukiko hakaba hari uwambaye imyenda y'imfungwa bose bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse hakaba hari abandi bicaye bari gukurikira hakaba hari uri gufotora

Ifoto isa nkaho ariya kera y'umugabo wicaye mu ntebe wambaye rinete uri mu nzu isize amarangi y'ubururu ugaragara ko yishimye atababaye hirya ye hari akabati imbere ye hari ibirahure nibyo kunywa.

Abanyeshuri bahagararanye na polisi y'u Rwanda bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hakaba hari kizimyamwoto bakaba bahagararanya n'umuyobozi.

Icupa rya kizimyamwoto; rikaba rifite amabara y'umutuku, ubururu, umweru ndetse n'umukara, rikaba rifite aho rihagaze rikaba nta kintu riri gukora.

Umupolisi uri kugenda akaba ari umukobwa, akaba hari imodoka ya gipolisi iparitse, ndetse hakaba hari n'abantu bahagaze imbere y'inyubako.

Ushinzwe umutekano ndetse n'abantu bari kugendera mu nzira y'abanyamaguru hakaba hari abandi bahagaze, ndetse inyuma yabo hari amazu ariho ibyapa by'ibikorerwa muri ayo mazu.

Abantu bari kugenda ndetse ha akaba ari n'imodoka iri kugenda mu muhanda akaba ari imodoka ya polisi ndetse hakaba hari ibyuma bisize ibara ry'umutuku ndetse n'umweru hakaba hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka za kizimyamoto, zikaba ziri kwaka ndetse hakaba hari abantu bahagaze imbere, bambaye imyenda ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bambaye imyenda idasa n'iyabo.

Abantu bambaye udupfukamunwa hari n'abandi bambaye imyenda idasa nka bo, hakaba hari imodoka ishinzwe kuzimya umuriro ndetse hakaba hari n'imyenda ndetse n'ibindi bikoresho birambitse hasi ku kintu gisa umukara.

Umuntu ufite utujerekani mu ntoki ndetse akaba ari imbere y'inzu y'igorofa rirerire, hakaba hari imodoka ya polisi y'u Rwanda iparitse hanze ndetse hakaba hari ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda.

Umuntu wicaye akaba ari umu mama, akaba afite ibikoresho by'irangururamajwi imbere ye, hakaba hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse inyuma ye hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Abantu bicaye bari mu nama inyuma hari amadarapo abiri arimo idarapo ry'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cy'u Rwanda hakaba hari abicaye mu zindi ntebe bari kumva ibyo aba bavuga, bakaba bafite amazi yo kunywa imbere yabo.

Abantu bicaye bakaba bafite amadarapo imbere yabo, hakaba hari ibyapa inyuma birikwerekana ibyo biri gukora bakaba bafite impapuro ndetse harimo n'abambaye ingofero.

Abantu bari kwamamaza bambaye imyenda y'umweru hari n'abambaye imyenda y'ubururu bafite amadapo, inyuma yabo hakaba hari ibara ry'umweru n'icyatsi, hakaba harimo abamama n'abagabo.

Umugabo uri kwiyamamaza ndetse akaba afite ibipapuro mu ntoki ndetse akaba ahagararanye n'abandi bagabo babiri, hari bicaye inyuma hakaba hari afite igikoresho cy'irangururamajwi imbere ye.

Umudamu uri kuvuga wambaye imyenda yanditseho FPR akaba afite n’ idarapo mu ntoki rya FPR inyuma ye hakaba hari icyapa kiriho nyakubahwa umukuru w'igihugu w'u Rwanda hakaba handitsemo tora Kagame Paul.

Amashyaka uko agiye akurikirana mu nteko hakaba hari amazina yayo ndetse hakaba hari n'ibirangantego byayo ndetse n'intara azajyamo uko bigiye bikurikirana.

Abantu batonze umurongo, hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari ibiti biteye aho ngaho ndetse hakaba hari n'indabyo ziteye hasi.

Umuntu wicaye utari guseka akaba yambaye amahere ndetse akaba yambaye n'isaha ku kuboko akaba yambaye n'indorerwamo z'amaso akaba afite imisatsi mikeya.

Abantu bari kugenda ari benshi bakaba bafite ibipapuro mu ntoki bakaba bari kwamamaza hariho ifoto y'umuntu, hakaba hari abambaye imipira y'icyatsi ndetse hakaba harimo n'umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu bateraniye ahantu ari benshi bakaba bambaye imipira y'umweru, umutuku ndetse n'umukara bakaba bafite igipapuro cyanditseho umurenge batuyemo ndetse bakaba bari kwamamaza.

Umukuru w'igihugu cy'uRwanda akaba ahagaze imbere y'abantu, afite igikoresho cy'indangururamajwi, hakaba hari abicaye ndetse bakaba bafite ibikoresho by'indangururamajwi imbere yabo, bakaba bafite n'amazi yo kunywa imbere yabo.

Abamama bane bahagaze ubona bishimye, hakaba hari idaraporo ry'u Rwanda ku ruhande rwabo, hakaba hari n'idarapo ry'ikirangantego cy'u Rwanda, hakaba hari ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere yabantu; umugabo afite ingabo n'icumu bakaba bakikijwe n'abantu, umugore akaba yambaye rinete; bakaba bambaye amashati y'umweru asa.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda hakaba hari imodoka yikorera imizigo ndetse n'izitwara abagenzi, hakaba hari abantu bicaye mu modoka ndetse hakaba hari n'umuntu uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Moto iri kuzamuka, akaba hirya hari inzu y'igorofa rirerire, hakaba hari igipangu cy'umweru, hakaba handitseho amagambo ndetse hakaba hari itara ryo mu muhanda, hakaba hari n'ipoto rifasheho insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hakaba hari ikindi gikamyo kiri kumanuka ndetse hakaba hicayemo umuntu utwaye, hakaba hari n'ibiti iruhande rw'umuhanda.

Imodoka itwara imizigo isa umweru iri kugenda ndetse hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibiti biteye ku ruhande, hepfo bakaba bari kuhakorera imirimo y'ubwubatsi.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda, ikaba ari iyikorera imizigo ndetse hakaba hari imodoka itwara abagenzi, ndetse n'izindi modoka zisanzwe. Aba akaba ari abantu bari kugenda mu nzira nyabagendwa ndetse hari n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Ibinyabiziga birikugenda mu muhanda hakaba harimo igitwara imizigo ndetse hakaba harimo na moto itwaye umugenzi, hakaba hari ibinyabiziga byikorera biparitse ku ruhande hirya y'umuhanda.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hari imodoka ndetse n'amagare, hakaba hari utwaye umuntu ku igare, hakaba hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka iri mu muhanda y'umutuku, yikorera imizigo, hirya harya hari abantu bari kubaka, hari umwana uri kugenda amanuka.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda ndetse hakaba hari abanyamaguru bari kugenda mu muhanda, hakaba hari imodoka yapfuye bari gushyiramo ipine ikaba ifunguye umuryango, ndetse hakaba hari umuntu uyihagaze i ruhande ndetse n'uri kuyikora.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda akaba ari igikamyo, ikaba itwara imizigo ndetse hakaba hari n'ibindi binyabiziga biri mu muhanda, hakaba hari amazu ndetse hakaba hari n'ibiti.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda hakaba hari imodoka itwara imizigo ndetse na moto, hakaba hari ibikamyo biparitse ku ruhande ndetse n'umugore ufite ibisheke bikaba biri mu ndobo ndetse n'icyo afite mu ntoki.

Umuntu utwaye igare; akaba undi uhagaze ku buryo y'umuhanda munzira y'abanyamaguru; hakaba hari inzu y'ubururu hirya hakaba har' ivuriro.

Imodoka zihagaze muri gare ari nyinshi hakaba hari abantu bari kugenda ndetse n'abahagaze, hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse naho abantu bategererereza imodoka.

Ibinyabiziga biri kugenda hakaba hari ibiri guturuka ruguru, hakaba hari umuntu uri kugenda ndetse n'umuntu uri gukora mu busitani, hakaba hari ibiti ibiteye hagati mu muhanda ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ibikorwaremezo mu muhanda w'abanyamaguru ndetse iruhande uriho ubusitani burimo ipoto riyishamikiyeho insinga zo mw' ibara ry'umukara zigena amashanyarazi ku baturiye iryo poto.

Ibinyabiziga biparitse muri gare, akaba ari imodoka zitwara abagenzi ndetse hakaba harimo abantu bari kugenda, hagati y'izo modoka ziparitse, hakaba harimo imodoka z'ubwoko butandukanye.

Imodoka ntoya iparitse, hakaba harimo izikorera imizigo, hakaba hari inzu y'igorofa ndetse n'abantu bari kugenda, hakaba hari n'icyapa kigaragaza aho ngaho icyo bakora.

Imodoka y'igikamyo iri kugenda mu muhanda isa ubururu ikaba itwaye imizigo hakaba hari izindi modoka z'ikamyo ziparitse hakaba hari abantu bari kumanuka ndetse n'ibiti byiteye hafi y'umuhanda.

Imodoka yikorera imizigo iri kugenda mu muhanda ndetse n'ibindi binyabiziga, hakaba ari abantu bari kugenda muzira nyabagendwa, hakaba hari amatara yo kumuhande ndetse n'ibiti biteye ku mpande z'umuhanda.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ndetse hakaba hari ibiti biteye hagati yo mu muhanda ndetse n'ibiteye ku ruhande rw'umuhanda, hakaba nta bagenzi bari mu muhanda.

Imodoka y'ikamyo y'umweru itwaye imizigo, ikaba iri kugenda mu muhanda hakaba hari inzu isa ubururu hakaba hari n'indi y'igororoka kuruhande ndetse n'imodoka iparitse.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hari imodoka nini ndetse n'intoya, hakaba hari igare akaba atwaye umuntu ndetse n'ibiti biteye hafi y'umuhanda.

Imodoka ziparitse muri gare ari nyinshi, hakaba hari abari kugenda ndetse bakaba n'abicaye hakaba hari ibyapa aho abantu bategererereza imodoka.

Imodoka itwara abagenzi hakaba harimo abantu benshi ndetse hakaba hari abahagaze ndetse n'abicaye hakaba hari n'ibindi binyabiziga bikagenda mu muhanda ndetse hakaba hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Imodoka zihagaze muri gare hakaba hari abantu bari kugenda ndetse abandi bari kwinjira mu modoka, hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse n'aho abantu bahagarara bategereje imodoka.

Ibinyabiziga byo kugenda mu muhanda hakaba harimo amagare ndetse n'imodoka itwara abagenzi, hakaba hari abanyamaguru bari kugenda umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'imodoka z'ibikamyo ziparitse kuru ruhande rw'umuhanda.

Umuntu utwaye moto uhagaze hakaba harindi uri kugenda ndetse n'imodoka iri kugenda hepfo hakaba hari amazu ndetse hakaba hateye ibiti bitandukanye hirya ku musozi hakaba hari andi mazu.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hari utwaye igare ndetse hariho undi muntu, hakaba hari utwaye amatungo ariyo intama, ndetse hakaba hari ibinyabiziga biri kumanuka, ndetse n'ibiparitse.

Umugore wicaye wambaye agashati k'amaboko aciye k'ibara rya roza wambaye ijipo y'umweru irimo imirongo yicyatsi imanuka uteze igitambaro mu mutwe ari guseka inyuma ye hari ibiribwa nk'imbuto inyanya tungurusumu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Ibinyabiziga biri kugenda hakaba hari ibiti ndetse n'amatara amurika mu muhanda hakaba hari inkweto ndetse n'imodoka ziri kugenda.

Imodoka zitwaye imizigo, akaba ari imodoka ebyeri. Hakaba hari ibiti byiza ndetse n'abantu bahagaze, hakaba hari umutaka ndetse n'ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi.

Abantu bicaye abandi bahagaze bari kugenda, bakaba bambaye udupfuwa, bikaba ari nijoro hakaba hari n'ibiti bikikije aho hantu.

Ibyapa byinshi biri ku muhanda, hakaba handitseho Giheke ndetse hakaba hananditse Umurenge wa Giheke, hakaba hari ibiti bihateye ndetse n'ibyatsi biteye hasi, hakaba hari n'umuntu uri kugenda mu muhanda.

Icyapa gikoze mu ruziga kikaba gisa ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kiba cyerekana ko umuntu atagomba kurenza metero mirongo itandatu ku isaha.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda, hakaba hari iziri kuza ndetse n'iziri kugenda, hakaba hari ibyapa biri mu muhanda, bikaba bisize amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku.

Icyapa cyo ku mupaka, bibiri kimwe cyanditseho urugendo ruhirez ikindi cyanditseho leta ya uganda hakaba hari imodoka ziri kugenda ndetse n'abantu bahagaze aho hafi, ndetse n'ubusitani.

Icyapa gifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara kikaba gifitemo uruziga hakaba hari ibiti bizengurutse aho ngaho kikaba gihagaze ku ipoto.

Icyapa gikoze mu ishusho y'uruziga hakaba haciyemo akarongo hagati ndetse harimo n'ikinyabiziga kigaragaza ko ntamodoka nimwe yemerewe kuhaca.

Ibyapa bibiri kimwe cyakira abinjira bavuye hanze y'u Rwanda kikagera mu Rwanda, hakaba n'ikindi cyerekana akarere uri kujyamo ariko ka gicumbi hakaba hari n'igikamyo ndetse n'imisozi ikikije umuhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza amabara atatu; cyatsi, umuhondo, umutuku ugaragaza guhagarara, kwambuka kw'abagenzi, no gutegereza.

Ibyapa bibiri biri kumuhanda hakaba harimo imodoka ziparitse, ndetse hakaba hari n'ubusitani, n'ibiti biteye hafi y’umuhanda hakaba hari umuntu uri kugenda.

Ibyapa byinshi biri kumwe hakaba harimo ibyanditseho umupaka wa uganda hakaba hariho icyerekana Banki y'u Rwanda y'abaturage, hakaba hari ibyatsi biteye ahongaho ndetse n'ibiti.

Icyapa cyamamaza hakaba hari aho binjirira ndetse hakaba hari n'inzu y'igorofa, hakaba hari imodoka ziparitse aho hanze, hakaba hari n'ibiti.

Inzu y'igorofa, imbere yayo hakaba haparitse imodoka ndetse hakaba hari igiti giteye hakurya y'umuhanda ndetse hakaba hari n'umuntu uhagaze imbere y'inzu.

Inzu y'igorofa ikaba irimo imiryango myinshi ikorerwamo, ikaba imyinshi ari iy'ubucuruzi ndetse hakaba hari n'ibyapa biri hanze, imbere y'imiryango ndetse no ku miryango ndetse hakaba hari imiryango imwe ifunguye indi ifunze.

Imodoka y'igikamyo y'umweru n'ibiti birebire by'amoko atandukanye inyuma y'ibyo biti hakaba hari amazu inyuma y'iyo modoka hakaba hari izindi modoka.

Umuhanda ukaba ukikijwe n'inzu zitandukanye hakaba hari abantu bari kugenda mu muhanda ndetse hakaba hari n'ibiti biteye ku rugo ndetse n'indabyo ziteye hafi y'urugo.

Inzu irimo amaduka menshi atandukanye, ndetse hakaba hari ibicuruzwa biri hanze y'amaduka. Hakaba hari abantu bicaye hanze kumwe n'iduka ndetse n'umuntu uhagaze mu muryango. Hakaba hari hirya akazu gasize irangi ry'umuhondo.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Ikigega cy'umukara kikaba cyandikishijeho amagambo y'umweru ndetse hakaba hari n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, hakaba hari amazu menshi ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Inzu y'igorofa ikaba ifite ubusitani ndetse n'ibiti bibateye hakaba hashyizeho amabara y'umweru ndetse hakaba hari n'imodoka iparitse hanze y'igipangu.

Amazu y'amagorofa maremare akaba imbere hari umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba n'ibiti biteye ku rugo, hakaba hasizeho amarangi atandukanye ndetse hariho ifoto rirerire rijyana insinga z'amashanyarazi mu ngo zitandukanye.

Ijambo rya mitsingi Remera, akaba ari ahantu bacuruza amata, ndetse ruguru yaho hakaba hari inzu, hakaba hari imodoka iparitse ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Inzu nini ihurirwamo abantu benshi hakaba hari ikibuga abantu bajya kureberamo ibintu bitandukanye ndetse hakaba hari n'amazu atandukanye yubatse aho ngaho y'ubwoko bwinshi harimo ay'amagorofa ndetse hakaba hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ifoto yigorofa imbere yabo biryo bakaba bahagaze mu modoka hakaba hari iryo izina ryo gorofa hakaba hari n'ibyapa byabagiye bakorera mu muryango w'iryo gorofa.

Imodoka ziparitse z'ubwoko butandukanye, hakaba hari abantu bari kugenda ndetse hirya hakaba hari inzu isize amarangi y'umweru, hakaba hari n'ibiti biteye aho hafi.

Inzu y'igorofa rirerire hakaba haparitsemo imodoka ndetse ku gipangu hakaba hariho ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi, ndetse no ku ruhande hakaba hari kaburimbo hakaba hari n'umuhanda w'abanyamaguru.

Izina ry'ahantu ku Kimironko kwa Mushimire ndetse n'isangano ry'imihanda, hakaba hari ibiti bikikije abantu ndetse n'ubusitani hakaba hari ingo z'abantu.

Remera ndetse hakaba hubatse amazu agiye atandukanye, arimo ay'amagorofa akiri kubakwa ndetse hakaba hari n'ibiti bigiye biterwa hagati y'amazu ndetse hakaba hirya hari ishyamba.

Inzu, inzu harimo n'izitarasozwa kubakwa, hepfo hakaba hari abantu bahahagaze, hakaba hari ibyatsi, ndetse n'ahari umuhanda.

Amazu yubatse ku musozi ari menshi, hakaba harimo amagorofa ndetse hakaba hagiye hateye ibiti ndetse hakaba hari n'urugo ruriho senyenge hejuru ku rugo ndetse hakaba hari insinga z'amashanyarazi ziryana umuriro.

Inzu z'amagorofa ebyiri akaba imbere y'iyo nzu haparitse imodoka, hakaba harimo abantu bari kugenda hakaba hari n'undi utwawe kuri moto.

Inzu ifite ibyapa hanze ikaba ifite n'ibyapa ku muryango, hakaba haparitse imodoka hakaba hari n'ahandi ho guparika izindi modoka.

Abantu bahagaze imbere y'amaduka mu modoka, hakaba har' ibyapa byamamaza hakaba hari ndetse n'imitaka, hakaba hari n'ibicuruzwa hanze y'ayo maduka.

Umuntu uri kugenda, imbere ye hari urusengero, hari n'ibiti birebire, hari umuhanda, n'umuntu utwaye moto, hapfo hari imodoka iparitse, hakaba ari n'aho kujugunya imyanda.

Kibagabaga, aha hakaba hari amazu y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, harimo ay'amagorofa ndetse hakaba hari ibiti bigiye biteye hagati mu mazu ndetse hakaba hari n'ibigori biteye mu murima

Amazu yenda kubakwa kimwe, akaba ari ku musozi ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi bitandukanye, hakaba hari n'ahantu hahinze urutoki ndetse hakaba harimo n'amazu y'amagorofa.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hashushanyijemo imirongo y'umweru, akaba ariho abagenzi bambukira, ndetse hakaba ari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda, hakaba hari n'amatara yo mu muhanda ndetse n'aho abagenzi bagendera.

Umuntu utwaye igare uri kumanuka, ndetse hakaba hari ibindi binyabiziga mu muhanda, hakaba hari ibikamyo byikorera imizigo biparitse, akaba ruguru hari inzu y'igorofa rirerire isize amarangi y'umweru.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Ikiraro munsi hakaba hari gucamo imodoka, ndetse hari n’utwaye igare. Hakaba hari imodoka z’ubwoko butandukanye, hakaba hari abagenzi bari kugendera mu muhanda w’abagenzi, ndetse n’ibiti bikikije umuhanda.

Mu muhanda hakaba hari ibiti, hakaba hari moto iri kugenda, ndetse n'ibikamyo biparitse, hakaba hari aho banyweshereza amavuta y'imodoka.

Umuhanda uririmo hagati harimo icyapa cyamamaza ndetse hakaba hari imihanda ibiri umanuka ndetse n'uzamuka hakaba hari ibyatsi biteye hagati mu muhanda ndetse n'ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Isangano ry'imihanda imodoka iy'ibikamyo n'utumodoka dutoya, harimo ukora amasuku hakaba harimo n'umuntu uri kwambuka mu muhanda bakaba harimo icyapa cyamamaza.

Umuhanda akaba ari nta modoka zirimo, kaba ari ibiti bitandukanye bigiye biteye iruhande rw'umuhanda ndetse hakaba hari n'inyubako harimo iz'amagorofa maremare zikaba zubatse mu buryo butandukanye.

Umuhanda uca munsi y'ikiraro ndetse hejuru hakaba hari imodoka ziri kugenda, hakaba n'iziri guca munsi y'ikiraro, hakaba hari abanyamaguru bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibiti bitandukanye.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda hakaba hariho umugenzi ndetse akaba aricyo cyonyine kiri mu muhanda. Akaba hari ibiti bigiye biteye iruhande rw'umuhanda ndetse n'amazu yubatse iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse hakaba harimo n'amatara yo mu muhanda, ndetse n'amapoto atwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, moto ikaba icuritse, hakaba hari abantu bambuka umuhanda, hakaba arimo ibyapa n'amatara yo mu muhanda akaba ari mu ubusitani.

Abantu bari kwambuka mu muhanda ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga biri kugenda, hakaba hari inzu ziri ruguru y'umuhanda, hakaba hari amatara yo mu muhanda ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, hakaba hari ibiti biteye iruhande rw'umuhanda.

Ikiraro hejuru hari umuhanda no hasi hakaba undi muhanda, umuntu uri gutwara igare ndetse n'uri kugendera mu nzira y'abanyamaguru, hakaba hari n'utwaye moto ndetse n'ibiti bigiye bikikije ku ruhande.

Imodoka itwaye imizigo umuntu utwaye igare ndetse hakaba hari n'umuntu utwaye moto, ndetse n'uwo batwaye, hakaba hari ibiti bikikije ahonga ngaho ndetse n'ubusitani.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hari ibiparitse, hakaba hari ibitwara imizigo, ndetse hakaba ari icyapa kiri mu muhanda cyerekana amerekezo, hakaba hari ibiti biteye hafi y'umuhanda ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Ibinyabiziga biri mu muhanda hakaba hari amazu yubatseho ku ruhande rw'umuhanda ndetse hakaba hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti biteye ku muhanda by'ubwoko butandukanye.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hagati y'umuhanda hakaba harimo ubusitani ndetse hakaba hari n'ibyapa by'amerekezo ndetse hakaba hari amatara yo mu muhanda ndetse n'inzu z'amagorofa maremare.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda, hakaba hari abanyamaguru bari kugenda mu nzira y'abanyamaguru ndetse hari amatara yo ku muhanda, hakaba hateye ndetse n'ishyamba ku ruhande rw'umuhanda.

Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda, kikaba kiri kuzamuka, hakaba hari ubusitani buteye hagati mu muhanda ndetse n'ibitit biteye iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibyapa byamamaza byo mu muhanda ndetse n'amatara yo mu muhanda.

Imodoka itwara abagenzi ikaba inyuze munsi y'ikiraro, hakaba hari umuntu uri gutwara igare, hakaba hari ibiti ndetse n'abantu bari guca hejuru y'ikiraro.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, hakaba hari ibyikoreye imizigo ndetse hakaba hari n'abagenzi bari kugenda mu nzira nyabagendwa, hakaba hari ibiri kumanuka ndetse n'iziri kuzamuka, hakaba hari ibiti biteye hakurya y'umuhanda.

Umuhanda hakaba hari kugendamo ibinyabiziga ndetse hakaba hari n'ibiti biteye hafi y'umuhanda, hakaba hari abanyamaguru barikugenda mu muhanda w'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'ibyapa biri ku muhanda bikaba bifashe ku matara yo ku muhanda.